icyumba gikorerwamo inama za leta, haririmo abagabo batatu bari mu nama, b'imbere bambaye neza, inyuma harimo n'abagore hari n'undi mugabo uhagaze.

Umunara munini, w 'itumanaho, utanga itumanaho ku bigo utanga serivi z'itumanaho mu Rwanda bitandukanye.

Umunara muremure w'itumanaho, usakaza amajwi, amashusho, w'ibigo by'itangazamakuru, ibitangazamashusho n'ibindi.

Umugabo ufite mudasobwa, uri ku rubuga rw'irembo, ashaka serivise z'irembo.

Hari ipoto iri udukarito tw'ububiko, umweru n'ibimenyetso byerekana ko ahantu habujijwe kuhegera, ibiti by'umweru by'amapoto y'amashanyarazi umuriro, n'ibiti.

Inzuri iriho icyapa gikoreramo ubwishingizi hariho nk'irembo na papeteri, inzu ifite icyuma gishyushya amazi na kamera.

Umuhanda urimo abagabo bajya mu byerekezo bitandukanye, bari mu muhanda wa kaburimbo, ipoto ry'amashanyarazi, ririho n'insinga z'ubucuruzi n'imitaka ya MTN.

Ipoto y'amashanyarazi n'igiti cyakubiswe n'inkuba cyumye, kirimo ipoto y'amashanyarazi n'insinga, hepfo hari inzu yubakishijwe amabati ishaje.

Inyubako itangirwamo serivisi za banki n'izindi zijyanye n'ibikorwa bya leta cyangwa abikorera, ifite tapi y'umweru ifite amarange.

Icyumba urabona ko icyumba cy'urukiko kirimo abacamanza barimo kumva urubanza n'abatangabuhamya bikingiye bambaye udupfukamuwa.

Umugabo uri mu mwambaro w'imfungwa zo mu Rwanda ufite mikoro ku mwenda uri kuvuga.

Iyi foto iratwereka urupapuro rugizwe n'ingingo zagendeweho mu rubanza ari gushingiraho ngo umutungo wibereyemo undi ari hano bishyuzaga nyine urukiko umuntu ubereyemo undi umwenda

Icyapa cyerekana ukwibuka ku ncuro ya makumyabiri na gatanu. Hariho, kiri kwinjirirwa ugiye ku rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa, gereza ya Nyamagabe.

Abashinzwe umutekano muri ONI, bari kwigisha abana bato uburyo bazimya umuriro bifashishije amazi, igihe haba habaye inkongi, bambaye imyenda yabugenewe.

Icyapa kerekana ibitaro bya polisi iherereye Kacyiru ubona ko harimo n'imirima yo kubaka n'abantu bari kubaka n'ibiti byiza cyane.

Umupolisi uri gusuzuma ibyangombwa by'umushoferi yarahagaritse umushoferi utwaye imodoka.

Umukuru w'igihugu Paul Kagame yagiye kwiyamamaza mu bikorwa byo kwiyamamariza manda yo kongera kuyobora u Rwanda imbere y'abaturage benshi cyane bamushyigikiye.

Ibyicaro bwa sitade bisize ibara ririmo idarapo ry'u Rwanda harimo amakaro, amapave n'amabuye ubona ko ari ubwicaro bwa sitade zigezweho.

Icyapa gishyirwa mu muhanda gifite umuzenguruko cya mpande enye, gifite umuzenguruko w'umuhondo, ishusho ry'umukara ubuso bw'umuhondo gitegeka kugenda gake.

Amazu akorerwamo ubucuruzi ibijyanye ibikomoka ku mata ibikomoka ku nka harimo amata imyenda nyine ubona ko yubatse neza ari ku murongo.